Abantu benshi bahagaze hamwe ubona ko bishimye, bambaye imyambaro ijya gusa y'ubururu, imbere yabo hari icyapa kiriho amagambo yanditse mu ibara ry'umweru, byanditse ahantu h'ubururu, inyuma yaho hari icyapa cyanditseho amagambo y'umweru, yanditse mu ibara ry'umutuku.

Ihuriro ry'abantu benshi bicaye hamwe bambaye neza, amashati y'umweru ndetse n'amakoti y'ubururu, hakaba harimo aba mama bafite ibisuko. Hagati yabo hakaba harimo utuntu tubaze turimo ibyatsi, bakaba bafite amacupa y'amazi imbere yabo.

Ihuriro ry'abantu benshi bahagaze hamwe imbere yabo hakaba hari abamama, bicaye bafite impapuro ndetse n'amakaramu, bigaragara ko barimo kubandika, hakaba hari amacupa arimo amazi ndetse hakaba arimo abama bahesha abana.

Abantu benshi bageze bakikije ivomero umwe akaba arimo kuzunguza ikintu gituma amazi azamuka ava mu ivomero mo hasi, hakaba hariho ijerekani y'umuhondo ndetse n'akandi gatoya gasa.

icyapa kiriho amagambo yanditswe mu ibara ry'umukara andi yanditse mu ibara ry'umweru hakaba harimo andi mabara agiye yanditswemo, aya magambo arimo; umutukuu, muhondo n'icyatsi, ubururu ndetse n'ubururu bwijimye hakaba harimo.

Abana benshi bambaye imipira isa y'umuhondo bakaba bafite ibintu mu mutwe by'umweru banditseho amagambo arimo ibara ry'umukara ndetse n'icyatsi, hakaba harimo umwe urimo guseka abandi barimo gukoma amashyi.

Umuntu wicaye yegamiye ku gikuta akaba yambaye agapira k'umutuku, ipataro isa nabi. Akaba yambaye inkweto z'umukara zisa nabi, akaba arimo kureba hino, hirya ye hakaba hari abagabo babiri barimo gupakira imodoka.

Icyapa cyamamaza kiriho ishusho y'umuntu y'ubururu akaba afite ibintu, by'umukara mu mutwe hakaba hariho inyenyeri z'umweru, hakaba hariho amagambo yanditse mu ibara ry'icyatsi, ndetse n'andi yanditsemo ibara ry'umukara mu magambo mu nyuguti nkuru.

Abaganga babiri barimo kuvura umurwayi wambaye rinete ufite umusatsi w'umukara akaba yambaye ishati y'ubururu, umuganga umwe akaba yambaye agapira k'umukara, undi akaba yambaye agapfukamunwa k'ubururu.

Umusore ufite umusatsi w'umukara, ufite amaso y'umweru, akaba afite amenyo y'umweru, uri gutunga ikiganza mu kanwa, akaba yegamiye ku ntebe y'umukara, imbere ye hakaba hahagaze umuntu wambaye ga z'ubururu.

Abantu benshi bakuze bicaye hamwe, bakaba bambaye neza cyane, bambaye amakanzu agiye atandukanye, bamwe ay'umuhondo, abandi ay'ubururu, abandi ari umutuku, abandi ibitambaro biteze ni byiza cyane bifite amabara meza.

Ibicuruzwa byinshi bitandukanye biri ahantu hamwe hakaba harimo ibifite amabara atandukanye bisa umweru, ibindi umukara, ibindi ubururu, icyatsi, umuhondo, ndetse hakaba harimo ibintu.

Abantu benshi bahagaze hamwe bambaye imyambaro isaba hakaba harimo abambaye n'dupfukamunwa tw'ubururu, hakaba hasi yabo hari icyapa kiriho amagambo yanditse mu ibabara ry'umweru byanditse ku cyapa gifite ibara ry'ubururu.

Amagambo y'umukara yanditswe mu ibara ry'umweru akaba agiye yanditswe muburyo bwa zeru harimo zeru imwe y'umweru, indi y'ubururu bwererutswe n'indi y'ubururu, n'indi y'ubururu bwijimye hakaba harimo...

Ikoraniro ry'abantu benshi bicaye hamwe bacaye bareba mu gihande kimwe bakaba bambaye imyenda itandukanye, bamwe bambaye amakoti y'umutuku abandi bambaye udupira tw'icyatsi, abandi bateze ibitambaro mu mutwe.

Icyumba kirimo utubati tubikwamo imiti hakaba harimo utubati dutatu duteganye, ibi bikaba harimo irangi ry'umweru, amatara n'ibipapuro bimanitse zanditseho amagambo yandikijwe mu ibara ry'umukara.

Inyubako nini cyane iteyemo irangi ry'umweru hasi harihoho igitanda bashyiraho umurwayi ,imashini iri imbere ye.

Abantu benshi barimo kugenda bamwe bagenda baturuka mu bitaro abandi barimo kugenda mu muhanda, harimo abafite ibinyabiziga by'amapine abiri, aribyo bizwi nk'igare akaba ari umugabo n'undi mugabo barimo kugenda.

Inyubako ifite irangi ry'umuhondo ikaba ibamo abarwayi ikaba irimo ibitanda bine, bifite amashoka agiye atandukanye harimo ibifite amashuka y'ubururu, ibindi bifite amashuka y'umweru hakaba haryamye abantu babiri.

Inyubako yubakishijwe amatafari ahiye ifiteho amarangi y'umweru hejuru hakaba hariho icyapa kigaragaza ko ari ikigo nderabuzima cya Tabagwe, hakaba hahagazeho abantu benshi bamwe bareba hino abandi bareba hirya.

Abantu benshi bahagaze hamwe imbere y'imashini bakaba bambaye imyambaro isa amatabuririya y'umweru, ga z'umweru udupfukamunwa bw'ubururu umumama umwe akaba yiteze igitambaro cy'ubururu.

Inyubako nziza cyane ifitemo amabara meza cyane y'umweru, ikaba ifite amatara ndetse ikaba irimo amakaro hakaba harimo ibitanda bifite udupine, bigaragara ko bigenda hakaba hariho amabara y'ubururu.

Abana benshi bahagaze hamwe bigaragare ko barimo gukina, bamwe bafite umupira bazamuye hejuru abandi barimo gukoma amashyi, harimo abambaye amasengeri bahagaze ahantu hari mirongo y'umweru ishushanyije.

Icupa ririmo amazi imbere yaho hakaba hari gutaruka amazi asa neza cyane, icupa rikaba rifite umuvuniko w'ubururu rikaba rifite ibara ry'ubururu ndetse n'umweru.

Abantu benshi bahagaze bitegereza kuri televiziyo muribo bambaye amakanzu y'umweru undi yambaye ikoti ry'umukara n'ishati y'ubururu ,abamama barimo bambaye udupfukamunwa tw'ubururu.

Igihingwa cyera kikazana amababi maremare, gifite ibara ry'icyatsi kikaba ari igihingwa kivura umuntu ufite ikibazo cy'igifu, cyangwa se ufite ikibazo cy'igikomere, kitanze gukira vuba.

Amacupa y'amavuta y'ubwiza akorwa n'uruganda bita infiniti, hakaba hariho ikirango kigaragaza uko uruganda rukora ndetse hakaba handitseho andi magambo yanditse mu ibara ry'umukara ndetse n'umweruru.

Ibintu bifashisha bavura indwara mu buryo bwa gakondo; hakaba hagiye harimo utuntu tw'uturondo dutandukanye bitewe n'ibiti runaka; hakaba harimo udusekuru tubiri dutoya hakaba; harimo n'ibyo gusekuza.